Gira ubwishingizi bwa RADIANT, kuko mugihe wagize impanuka bigufasha kwivuza mu buryo bworoshye, ni mu gihe iyo wagize igikomere, uza kwivuza bakaba bagupfukiraho kuri icyo gikomere cyawe, ukagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ubwishingizi bwa Buritamu bukorera hirya no hino ku isi ndetse no mu Rwanda bufite rero aho bufasha umuntu mu ngendo ndetse bukakwifuriza urugendo ruhire, bugufasha kugenda mu buryo bwiza ndetse no mu mutekano, hari uburyo rero warusura ku rubuga rwaho.

Mu gihe uhuye n'inkongi y'umuriro ifashe ibintu ibaryo ari byo byose, ufite gusura urubuga rwa radiyanti ndetse ukaba wanabahamagara ku mirongo itishyurwa ndetse kandi ufite kuba wabavugisha hakiri kare.

Ubwishingizi bwa Radiant bumaze gutanga ibyishimo mu bantu benshi, kuko butanga ibyishimo mu banyarwanda cyangwa se mu miryango, ikaguha ahazaza hamwe n'ubwishingizi bwo kwivuza bwawe n'ubwo umuryango wawe, Radiat rero ifite agaciro kenshi cyane.

Agapapuro kari muri mudasobwa, kanditseho amagambo y'Icyongereza, kavuga ngo "Konti yanjye", hariho amafaranga menshi cyane kandi ayo mafaranga ari mu manyarwanda.

Agapapuro kagaragara mu buryo bwa mudasobwa, karimo imibare bigaragara ko ari konte, konti ari kwinjizamo y'amafaranga.

Iduka ricuruza ibintu bigendanye n'amagi, imineke, imbuto, ndetse harimo imyenda, imikandara igezweho, ndetse n'amakote akoreshwa mu gufubika umubiri w'umuntu.

Umugabo uri mu iduka rye yambaye neza agasaha nk'umusirimu, acuruza inkweto ndetse amatelefone n'ibintu byose bifitanye isano n'ikoranabuhanga.

Akenshi iduka ricuruza imyambaro nk'imipira, amapantaro ndetse n'amashati, rikunze kuba rifite igikoresho cyifashishwa mu kugera, kugira ngo umukiriya nabibona yabanguke aze afate cyangwa se na we yigere. Iri duka ricuruje imyenda, inkweto ndetse n'ibindi.

Abagabo babiri bari kwifotoza bari imbere y'imodoka ndetse kandi umwe afite kuntake nini, bigaragara ko amaze kugura imodoka, imodoka ikaba iturutse mu bikoresho by'Akagera dore ko ariho imodoka nyinshi zigurirwa.

Imodoka iparitse kandi ikaba igurishwa, ku giciro cya miliyoni mirongo itatu na zirindwi, iparitse, mo mu imbere kandi iri hafi y'ishyamba.

Abagabo bari kwinjira mu modoka bagiye mu kirori cy'ubukwe kuko harimo ibitakisho by'indabo bitatse imodoka ndetse kandi harimo n'abageni mo mu imbere, bari kuganira bungurana ibitekerezo bibaza uko ubukwe bwabo buri bugende.

Imodoka ifite ikirango cy'isoko rya Kigali, iparitse hafi y'icyapa kiyobora kandi hafi n'inzu irimo ubusitani bw'ibiti birebire bizamutse mu buryo ari bunini.

Imwe mu modoka zigezweho iparitse ahantu heza, iri mu bwoko bwa toyota. Isa n'umweru, ifite amapine y'umukara, ndetse amapine anakomeye cyane, yaparitse ahantu yaje gufata umukire.

Imbere y'imodoka itwara ibigendanye n'ibikomoka kuri peterori hari abagabo babiri, bari kwifotoza bafite kontake nini bigaragara ko umwe ahaye undi imodoka nk'impano cyangwa se akaba ayimuguriye.

Imodoka nziza, ishashagirana ifite amapine meza kandi ikagira imbere heza h'umukara cyane kandi iparitse ahantu hari amakaro hasi hameze neza.

Ikirongozi cy'inzu cyubakishije, hasi harimo amapave ndetse kandi hatangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, gifite icyapa cyanditseho Hyundai.

Umuhanda munini wa kaburimbo, wegereye ipoto rijyana amashanyarazi impande zose, hari isoko rinini riparitsemo amamodoka kandi iryo soko ni ryiza rifite ibara ry'umutuku.

Imodoka ebyiri nziza ziparitse muri parikingi yazo, zirasa n'umukara kuko ziparitse mu nzu ifite amapave hasi kandi ikeye.

Ahatangirwa serivisi zo kwishyura amafaranga cyane cyane ku bari mu mahanga, baragushishikariza kwishyura amafaranga uyohereza umukunzi wawe cyangwa se inshuti zawe kugira ngo babashe kuba bakwakira ayo mafaranga mu buryo bwiza kandi bworoshye utavuye aho uri, utagiye naho ari.

Umubyeyi uri gufata ifunguro, ari gufata, amata, irindazi n'imigati, yegereye intebe, akegera n'ameza imbere ye.

Mu maduka akunze gukoreshwa hano mu Rwanda acuruza cyane cyane ibikomoka ku mata, usanga aba afite isuku ihagije kuko iyo adafite isuku, usanga bayafunga kubera ko amata akenera isuku ihagije.

Umucuruzi w'umuhanga ucururiza ibintu mu ndobo, akenshi akora amandazi cyangwa ibidiya ugasanga abicururije mu ndobo kandi aba afite ikanya cyangwa ikiyiko mu gihe ari gutanga iyo serivise cyangwa icyo kintu acuruje, yaba ikidiya cyangwa irindaza,

Inka y'inzungu iziritse munsi y'igiti kandi yegereye ahantu bacururiza amata akomoka ku matungo.

Abantu batatu harimo umukobwa ndetse n'abasore babiri, baricaye ku ntebe zisa n'umweru bari kuganira bananywa amata ndetse kandi banishimye kuko bari guseka.

Iduka ricuruza imigati, ibisyuguti, amaji ndetse kandi n'amata, hariyo umusore wagiye guhaha, bamuhaye akajerekani karimo amata.

Ingano y'amafaranga yoherejwe mu bihugu bigiye bitandukanye kubera ikibazo cy'inzara ndetse n'ikibazo cy'ubukene, aya ni amafaranga yagiye yoherezwa rero kugira ngo abashe kuziba icyuho cy'icyo kibazo bagiye bahura nabyo muri ibyo bihugu.

Hari uburyo bwo kubitsa amafaranga mu buryo bwa telefoni, hari uwari utanze amafaranga ibihumbi bitatu, ariko biri kugaragara ko ayo mafaranga ibihumbi bitatu atabikijwe.

Ishyura ukoresheje terefone, aho waba uri hose biroroshye. Ugira amahugurwa agendanye n'imikoreshereze yawe ya terefone, kuko nta kintu bigusaba uretse umuriro, ndetse n'ikoranabuhanga rihagije.

Ishyura amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga bitatumye uva aho uri ndetse mu buryo bwiza bworoheje bitewe na serivisi uhawe. Ni uburyo bwitwa gorobo mani wiki bukorerwa kuri telefoni cyangwa kuri mudasobwa.

Akenshi ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro kijya gishimira abantu batanga imisoro n'amahoro ku gihe. Kikabahereza ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse kikanabashimira mu buryo bw'ikoranabuhanga hakoreshejwe ibintu byiza bitandukanye.

Agapapuro kari mu buryo bw'ikoranabuhanga, kifashishwa mu buryo bwo gushimira abatanze imisanzu y'imisoro n'amahoro neza, kugira ngo babashe gushimirwa bahabwa ibihembo bigiye bitandukanye.

Icyangombwa kiriho ikirangantego cy'igihugu kigaragaza ko ari icyo mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Bugesera.

Icyangombwa kigaragaza ko utabereyemo ideni ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, kiri kugaragaza ikirangantego cyacyo ndetse kandi kikagaragaza n'andi magambo ku ruhande.

Agapapuro kanditseho gushimira ko bakiriye amafaranga, kariho ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda kandi hakabaho na sinyatire n'amazina y'uwitwa Gakwegerere Tomasi.

Inoti y'igihugu cy'Ubuhinde igizwe n'ibirango byinshi bitandukanye nk'icyo nababwira cy'uyu musaza wambaye rinete ndetse akaba yaragize akamaro kanini ku gihugu cy'ubuhinde.

Umugabo rwose wambaye isaha ufite amadolari menshi mu ntoki ze, arikuyabara ari kureba uko angana kandi hafi aho hari n'andi menshi.

Umuturage uri kubara amafaranga harimo iza bibiri ari kuyakoresha mu buryo bwo kwishyura serivisi yahawe ndetse kandi yegerewe n'izindi mpapuro agiye gukoresha zimwereka uburyo yishyura.

akabingaro k'ushinzwe kohereza no kwakira amafaranga aturutse mu bindi bihugu kandi karafunguye bigaragara ko kari kwakira abakiriya babagana.

Imikoreshereze ya banki ya Kigali ifite aho ihuriye n'imikoreshereze y'iguranisha ry'amafaranga. Ufite icyo kibazo hari inimero ushobora kuba wahamagara nka zeru, karindwi, umunani, umunani, kane, gatanu, kane, gatatu, gatanu, gatandatu. Cyangwa ukaba wareba uburyo ubakurikira ku mbuga nkoranyambaga bagiye bakoresha.

Ibiro bishinzwe iguranisha ry'amafaranga akenshi na kenshi bikunda kugendwamo n'abanyamahanga, mu buryo bwo ku kugurana amafaranga no guhindura ifaranga n'irindi, hari abaturage baba baje kuhafatira serivisi ndetse bakanasanga n'abashinzwe izo serivisi.

Imikoreshereze y'iguranisha ry'amafaranga akenshi biba ku muntu uriho ujya mu gihugu kimwe ajya no mu kindi cyangwa akaba agiye gusura igihugu cyangwa akaba akoresha viza mu buryo bw'ubukerarugendo kandi ibi bikaba bituma igihugu agiyemo kigira ubukungu buteye indi ntambwe .

Umugabo muremure wambaye isaha wicaye ku gatebe, wicaye kandi hafi y'icyapa kigaragaza uko ifaranga rihagaze, bagaragaza amadorari, amashiringi ndetse n'amafaranga.

Inzu ndende kandi ifite imiryango ifunguye, itangirwamo serivisi zo kuguranisha amafaranga, ifite icyapa cyanditseho kandi kinamenyesha umuntu wese wifuza kuguranisha amafaranga ko ara...

Abifuza kugura ibikoresho by'imbaho ndetse nk'inzugi, intebe, ameza, amadirishya akozwe mu biti, abifuza kuba babigura ibyo byose biratangwa ku giciro gikeya, ni amafaranga make ndetse n'imisego irahari ku giciro gito.

Iduka ricuruza amamatera, imisego, intebe ndetse biri ahantu heza cyane hariho imyenda idodeshejwe n'amamatera.

Inzu nziza yubatse neza ifite amakaro hasi, ni ahantu heza kandi hacururizwa intebe z'ubwoko butandukanye zibaje mu biti ndetse n'ameza abaje mu biti kandi bakongeraho imisego ndetse n'inzugi zirahacururizwa.

Inzu nziza ishashagirana kandi iri hafi y'ahantu hari amazi, hari imitaka ndetse kandi ayo mazi arasa n'ubururu bwijimye.

Icyumba gikorerwamo amahugurwa, kirateguye, gitegereje abantu bose bari buze gutangamo amahugurwa ndetse n'abari bwitabire aya mahugurwa. Ni icyumba giteguwe, kirimo amazi ndetse n'amakaye n'amakaramu bari buze kwifashisha.

Ahatangirwa serivisi z'amahoteli haba hari ubwiza butangaje, haba hari igitanda cyangwa se uburiri busa neza, busukuye, hari amashuka meza ndetse hari ubwogero utasanga ahandi, nk'iwawe ntiwabuhasanga.

Ni mu masaha y'ijoro, amatara araka ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'amahoteri, abarya bararya ndetse kandi bicaye ku ntebe nziza zigezweho kandi bafite ubwiza butangaje, hari isuku kandi hari n'ubusitani bwiza bugezweho.

Ahantu heza hatangaje. Hashashagirana, hari icyapa cyanditseho Radiant. Bivuze ko hatangirwa serivisi zo kuvurwa.

Abantu benshi biganjemo abagore, abagabo, baje ahantu gufata serivisi ndetse aho hantu hari icyapa cyanditseho Sonarwa. Bishatse kuvuga ko ari ibigendanye na sonorizasiyo.

Umugabo ubona ko yishimye kandi yashimishijwe n'uko yatsindiye imodoka kandi ari hafi y'icyapa cyanditseho ngo urifuza iyihe, kuyibona ni mu kanya nk'ako guhumbya.

Umukobwa mwiza usa n'inzobe ufite imisatsi yasutse afite agakarita mu ntoki n'udukapu twinshi mu ntoki. Akorera umuryango wa Ekobanke ndetse kandi ari kwifuriza abantu ibiruhuko byiza.

Umugabo mwiza wambaye neza w'igikara kandi uri guseka, ari kwishimira ibyiza bya BK, bitewe nuko yakoresheje inguzanyo abona angana n'inshuro ebyiri z'umushahara w'iwe, ni mu masaha mirongo ine n'umunani, ibyo babimwoherereje.

Isoko rinini rya Nyabugogo ,ryakira abaricururizamo ndetse n'abarihahamo ari benshi, rero kubera umutekano, hifashwa cyane abashinzwe umutekano nk'aba DASSO ndetse n'inkeragutabara kandi n'abanyerondo.

Isoko rinini ririmo abaguzi n'abacuruzi, harimo imboga, imbuto, muri ibyo harimo intoryi, inyanya, karoti, amashaza, imboga ndetse kandi n'ibitunguru.

Isoko rinini ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye nk'imbuto, harimo imineke, avoka, amacunga ndetse n'amapera, kandi isoko haba harimo abacuruzi, ikiba kibaraje ishinga ni ukubona inyungu, naho abaguzi ni ukubona ibyo bahashye bigeze aho bijya.

Iri ni isoko ritoya rifite ibicuruzwa bitandukanye harimo amashaza, imineke, ifu ndetse ibishyimbo n'inyanya. Hari umubyeyi uri gupimira uje guhaha.

Abacuruzi bishimiye kandi bari kwakira umuguzi uje ubagana kugura imbuto z'amacunga n'izindi zitandukanye.

Abajenti ba MTN ni batatu, bambaye impuzankano za MTN n'ingofero zisa ndetse hari ibyo bari kwitegereza. Bahagaze hafi y'icyapa cy'umukino w'amahirwe cya MTN.

Umugabo uri kwitegereza kuri mashini, undi akaba ari gukora kuri mudasobwa, undi ari inyuma yabo ari kwitegereza, ibyo bakora.

Ahantu heza hatangirwa serivisi za MTN, hari udushushanyo ndetse n'udufoto, tw'ububuryo ushobora kohereza amafaranga, muburyo bwa telefoni, aho ukanda imibare ikurikira, hanyuma ukohereza amafaranga yawe.

Umugabo wambaye kasike mu gihe cy'ubwirinzi igihe atwaye ikinyabiziga cya moto, yambaye kandi ijiri zimwe z'impuzankano y'abamotari, ari gupakira ku gikarito ibintu amaze guhaha kugira ngo abitware neza, ndetse anabifunge kuri moto.

Abagabo babiri umwe ni umumotari yambaye ikasike ndetse n'ijiri y'akazi, bafite ikintu mu ntoki, bari kwifotoreza imbere ya kamera ndetse kandi bari imbere ya moto.

Abamotari bambaye imyenda isa n'amakasike asa byose bitukura, inyuma ku mupira ndetse n'inyuma kuri kasike handitseho yego moto.

Abasore babiri rwose bakeye bambaye neza barababagirana ndetse kandi bafite moto nziza ishashagirana kandi iparitse ku muhanda imbere y'igipangu.

Ku bantu mushaka guhahira mu buryo bw'ikoranabuhanga, hari urubuga ushobora gukandaho cyangwa ukaba wahamagara nimero zikaba zagufasha guhaha mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa ukajya ku mbuga z'ikoranabuhanga bakaba bagufasha.

Ahatangirwa serivisi zo gutura, Kabeza muri Kigali, bagaragaza ko hari inzu ikodeshwa amadorari mirongo itanu n'atanu, mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda ni ahantu heza kandi hakwiye guturwa koko.

Inzu nziza y'agacurama ifite aho binjirira heza hasakaye kandi hari icyapa kigaragaza ko igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amanyarwanda mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda.

Ni inzu nziza, ifite amadirishya meza, ikagira inzugi nziza ndetse iragurishwa. Igurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu. Iri mu gihugu cy'u Rwanda, aho ni mu mujyi wa Kigali. Ikindi kandi ifite ibice byiza byo kurarwamo cyane cyane nk'umukire.

umugabo usa nkaho ari umuzungu uri kumwe n'umukobwa bariho baragenda ari kumwereka ibikoresho bigiye bitandukanye biri mu biro kandi urabona ko ari kubimubwira yishimiye uburyo ki yamwakiriye.

Inzu nziza ifite amakaro hasi, ikagira n'imiryango myiza kandi hafi y'aho hari amatapi meza abashyitsi binjiramo babanje gukandagira bihanagura imyanda.

Iduka ricuruza ibikapu by'abagore, hari abagore baje guhaha ndetse hari n'abagabo baje guhahira abagore babo, hari umugabo uri guhamagara umugore we, igikapu yamugurira uko cyaba kimeze nuko cyaba gihendutse.

Ni iduka ricuruza ibintu bitandukanye nk'inyanya, amashu, ibitunguru, intoryi, imiteja akenshi rihurirwamo n'abacuruzi, abaguzi ndetse bakaza bakumvikana ibiciro kugira ngo ibicuruzwa nk'ibyo, bibashe kugurwa bishire ku gihe.

Umugore wateretse imisatsi, wambaye agapfukamunwa afite icyapa cya Ejoheza ndetse kandi n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima hari kugaragara amazina yiwe ndetse n'amafaranga amaze kwishyurwa umubare kari miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri ndetse kandi n'impamvu yitwa ubwishingizi bw'ubuzima

Abagabo babiri bambaye impuzankano, bicaye ku ntebe z'umukara zigezweho, bari kuganira. Umwe ari gutera undi inkuru, undi nawe arakurikiye, ari kumwumva kandi aramwishimiye.

Ku cyicaro cy'igihugu gishinzwe ubuzima, hubatswe mu buryo bw'amagorofa kandi ni inzu ndende itanga serivisi z'ubuzima ndetse n'uburyo abantu bagakwiye kugira umutekano wabo batanga mituweli ndetse n'ibindi bituma bagira ubuzima bwiza.

Abaturage bafite abana, bafite mituweli zabo, ubona ko bishimiye igikorwa cyo gutangira abana babo mituweli.

Ahatangirwa serivisi z'umutekano, haje abagore, abagabo, ndetse n'abasaza bambaye ingofero z'abasaza, kandi bose bafite amakayi ndetse n'impapuro. Baje kuhafatira serivisi zigendanye n'umutekano wabo.

Iduka ryiza ricuruza ibintu byiza bifite ubwiza butangaje, harimo amakaro hejuru amatara meza ndetse kandi harimo ama ekave atatse.

Isoko rinini ricururizwamo ibintu bigendanye n'amarangi, amavuta yo gusiga ku mabati, usanga riba mu mujyi wa Kigali cyangwa mu isoko rifite aho rihuriye n'ahantu bubaka ndetse n'ibikoresho nk'ibyo ngibyo.

Umugabo wambaye neza ikote risa n'umukara, karuvate y'umukara ndetse n'ishati y'umweru, ari kureba muri telefone kandi aje kugira ibyo agura, mu isoko rinini ririmo ibintu bigiye bitandukanye.

Iduka rinini ricuruza ibintu bitandukanye harimo amayogati, amandazi, imigati ndetse bikaba bigira abakiriya benshi bagiye batandukanye kubera ko ibyo bakunze kubikoresha cyane.

Umukobwa mwiza muremure ufite terefone mu ntoki ze, wambaye rinete ndetse ari mu iduka ricuruzwamo, ibintu bigiye bitandukanye.